Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abapolisi bifashishwa baturindira umutekano wo mu bihugu byinshi cyane no ku isi barakunzwe cane gukoreshwa bitewe yuko baturindira umutekano haba mu rugo no mu muhanda n'ahandi henshi.

Abasirikare benshi bari ku murongo, usa nkaho hari aho berekeje, bambaye inifomu y'u Rwanda.

Urujya n'uruza rw'abaporisi bari mu nama, harimo ubakoresha inama, n'ingirakamaro ku gihugu ndetse turagirwa kubacugira umutekano.

Imbwa ya polisi ijaga irakoreshwa mu gushakisha abandu bibye, bagiye batandukanye, n'ibindu runaka, bisaba kumenya ahandu bigiye biherereye, kubera ko imbwa ifite ubushobozi bwo kumenya ibindu byinshi bitandukanye, abantu badashobora kumenya.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abatetsi bakorera ahantu hasa nko muri resitora, n'ahandi hatandukanye higanjemo abagore n'abagabo.

Urujya n'uruza rwiganjemo abantu twakwita nk'abasekerite barinda ahantu runaka, harimo nko ku bigo by'amashuri , ku mazu ya Leta, harimo amabanki, bityo bikaba ari ingirakamaro mu gihugu ,ndetse n'ahantu henshi hatandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abambaye infomo, ya polisi bari gufunga imodok,a ya tagisi isa nkaho hari ibyo itubahiriza.

Urujya n'uruza gw'abandu higanjemo abaturage benji, abapolisi n'abandi barimo mu nama bari gufata ingamba runaka.

Urujya n'uruza rw'abantu .Higanjemo abatetsi ,abagore n'abagabo. Kuko ifite ibikoresho harimo gaze zitandukanye. Kizimyamwoto tubyita mu rurumi rw'icyongereza fire extinguisher.

Urujya n'uruza gw'abandu higanjemo abapolisi, abadaso, abaturage bari mu gikogwa co gutanga bote ku baturage bamwe na bamwe.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abasekirite bakoreshwa barinda ingo z'abantu, amaduka n'ibindi bintu bitandukanye, kugira ngo bibone umutekano igihe icyo ari cyo cyose haba nijoro haba ku manywa.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu nama higanjemo abagore n'abagabo, bafite udutabo bari mu nama bajya inama z'ibintu runaka barimo.

Urujya n'uruza rw'abantu, higanjemo abaturage umuyobozi arimo abasomera amabwiriza twakwita nka pasiteri. Ni igirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, mu basenga yuko aba ababwiriza ,akabagira inama y'uko bagomba kwitwara mu buzima bwo kugana Imana.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abaturage harimo n'abapolisi, abadaso bari mu nama bari kubwirwa inama yuko ibintu bagomba kuja babijana mu buryo bwiza.

Aha hari abaturage basa nkaho bari mu nama, hakaba hari n'umudamu usa nkaho ari gutanga amakuru, ndetse akaba afite na mikoro, hirya ye nkaba mbona umudaso na we w'umugore cyangwa se w'umukobwa.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abaturage bari mu nama, harimo abayobozi bari kujya inama, bagira abaturage, ndetse bafata ibitekerezo bungana...

Urujya n'uruza rw'abantu, higanjemo abagore gusa bateruye abana, basa n'aho bagiye mu bintu bijyanye no kwivuza no gukingiza abana.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abagore n'abagabo bari mu nama. Inama ni ingirakamaro bitewe nuko bagiramo abantu inama zitandukanye z'uko bahinga neza ,ndetse ni uz'uko bakwitwara neza.

Umweyo ni igikoresho cyifashishwa umuntu akora amasuku harimo: gukubura, gutunganya, n'indi mirimo myinshi hifashishijwe iki gikoresho benshi bafata nk'umuco wabo mu bihugu byinshi bitandukanye.

Igicumu bifashisha bashiramo ubushera canga umutobe kikaba mu Gwanda twebwe tugifata nk'umuco kubera ko abantu ba kera bakundaga kubikoresha cane.

Umuco ukoresheje icyo twakwita umuduri, bamwe na bamwe barabikora kandi bikabaha amafaranga, bityo rero mu Rwanda tukabifata nk'umuco nyarwanda.

Uburyo bwo kugosora ibishyimbo, ibishyimbo ni ingirakamaro kuko bitekwa mu gihe byifashishwa biribwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Kugosura ni ingirakamaro cyane kuko havamo imyanda ibishyimbo bamwe bari kugosora.

Umwambi n'umuheto benshi dukunze kuja turita ng' umuco gwacu mu Rwanda ukaba uri ingirakamaro cane mu bihugu byinshi cane harimo n'u Rwanda.

Ibicuma ni ingirakamaro ahantu hose bakoresha umuco Nyarwanda cyangwa se umuco w'ibindi bihugu, uretse yuko twe mu Rwanda turacyabifata nk'umuco wacu.

Igiseke ni ingirakamaro bitewe yuko umuntu wese ugiye gusura, aracyifashisha. Yaba agiye mu bukwe ndetse n'ahandi kwa mugenzi we, bigatuma ariko akaba yamutwariramo impungure cyangwa se ibyishimbo, bityo agaseke ni ingirakamaro. Uy ni umuco nyarwanda.

Intore ni abantu babyina mu bukwe, mu birori runaka, ahenshi mu Rwanda ni nk'umuco wacu no ku isi hose abantu barabyemera cyane.

Ababyinnyi b'indirimbo nyarwanda cyangwa imbyino y'umuco wacu nyarwanda, ni ingirakamaro yuko baduhesha agaciro nk'Igihugu ndetse baduhesha n'inshuti zacu.

Isekuru ni igikoresho bikunzwe gukoreshwa basekura ubugari bw'imyumbati, ubunyobwa, n'ibigori bendaga guvanamo umuceri gw'ibigori.

Ibikoresho biri mu bwoko bw'ibitebo cyangwa se uduseke. Bikaba bikorwa n'abantu b'abaturage ndetse bikaba tubifata nk'umuco wacu nyarwanda.

Ababyinnyi b'intore ,hanyumaho ndahabona n'inzu z'ibyatsi za kinyarwanda bakundaga kwita nyakatsi ndabona n'ingoma n'abacuranzi b'ingoma.

Gukama ni ingirakamaro cyane ku baturage benshi batuye isi. Inka ifite agaciro kanini cyane, kari hejuru ku baturage bose baturiye isi, itanga amata ndetse n’ibindi byinshi bitandukanye.

Igihingwa cyo mu bwoko bw'uburo bahinga kimwe n'ingano. Kikaba ari ingirakamaro mu baturage cyane cyane ku bana babo kuko kivamo igikoma cy'abana cyiza cyane.

Ababyinnyi b'intore bikoreye uduseke，mu Rwanda dufata nk'umuco wacu， barakunzwe cyane ku isi hose， kubera yuko bashimisha abantu benshi batandukanye.

Inkono cyangwa se utubindi, ni ibikoresho biva mu bumba. Ndetse bikaba bifite akamaro cyane kubera ko babibikamo haba ibyo kunywa, cyangwa se bakabitekamo.

Umurima uteyemo ibicuma n'amateke. Ibicuma ni ibikoresho bakoresha banywa ubushera n'ibindi n'ibindi, twebwe mu Rwanda tukaba tubifata nk'umuco nyarwanda. Ni ingirakamaro ahantu henshi, higanjemo ibihugu byo muri Afurika.

Amacumu ni igikoresho gikunzwe cyane mu bihugu byinshi higanjemo u Bwongereza, u Rwanda n'ibindi n'ibindi, bikaba twebwe mu Rwanda turifata nk'umuco wacu kuko ryakoze ibintu byinshi bitandukanye byinshi.

Urujyanuruza rwa bantu, higanjemo abari mu nama b' abaturage n' abayobozi b' insengero zigiye zitandukanye, bityo bigatuma ikurikirwa cyane n' abantu benshi.

Igikoresho kiri mu bwoko bw'igitebo cy'ingirakamaro cyane, gikorwa n'abakora kimwe ibitebo, kikaba twebwe mu Rwanda tugifata nk'umuco gakondo, cyangwag se umuco nyarwanda.

Umuhigi ni umuntu ukunzwe cyane. Umuheto n'umwambi ni igikoresho gikunzwe cyane mu Rwanda dufata nk'umuco nyarwanda. Bikaba bikoreshwa twirukana abanzi n'ibindi bintu bitandukanye.

Akantu ka kera kifashishwa kabikwamo ibintu runaka harimo ibigori impungure n'ibindi n'ibindi, twebwe mu Rwanda tugafata nk'umuco wacu.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abakenyeye, bityo rero bakaba bari bagiye gusura cyangwa se mu bukwe. Bityo bikagirira akamaro kenshi bitewe n'uko abantu gusurana ni ingirakamaro mu buzima bwabo.

Ibiseke ni ibikoresho biva mu gihingwa, bikaba ari ibikoresho bikoreshwa cyane mu bihugu bimwe na bimwe, bigiye bifite umuco nk'uko twavuga nyarwanda.

Umuco nyarwanda intore ziba zifiti akamaro cyane, bitewe nuko zibyina henshi, kandi zikagira ibintu byinshi zihariye, rero bigatuma mu muco nyarwanda zikomeza gukomera cyane.

Agaseke kifashishwa mu mirimo myinshi umuntu yagiye gusura mugenzi we akagira ico amujananiramo n'ahantu henshi karakoreshwa cane, twe mu Rwanda ni nk'umuco gwacu.

Umuco gakondo wahozeho. Ndetse ikigage cyangwa se ubushera n'ibindi bigiye bitandukanye byo kunywa banywesha imiseke yo mu bihingwa by'ibiti. Ndetse umuvure ni ingirakamaro cyane kubawukoresha.

Abantu bambaye mu muco wa kera nk'uwacu abanyarwanda bafashe bambaye urugori umwe.

Indore benji bafata ng'umuco gwabo, zikaba zi zifashishwa mu kubyina igihe habaye ibindu bijanye n'ibirori. Ahandu henshi birakoreshwa cane.

igicuma ni igikoresho kifashishwa banyweramo inzoga, cane cane abasaza. twebwe i Rwanda tukaba tugifata nk'umuco gwacu bitewe y'uko abasaza ba kera bajaga bacifashisha cane.

Hano hari umundu w'igitsina gore ,wafashe agaseke yiteze n'igitambaro mu mutwe ,yambaye n'ibikomo mu mu zosi twakwita ngi ishapure.

Igiti bajya barita umuvumu, gikunze kuvugwa cyane ku isi hose, bitewe yuko hari abantu kiba ari nk'inkomoko yabo, nk'umuco wabo wa kera.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abambaye imikenyero, abagore, abagabo, harimo abari kunywa ubushera mu kibindi bakoresheje imiseke, abafite inkoko mu ntoki.

Indoli zifite imizatsi z'umweru n'amacumu n'ingabo ziri guhamiriza.

hano hari agasoke dufata mu rwanda nk'umuco wacu nigikoresho gikunzwe cyane mu banyarwanda. Hano hari agaseke, dufata mu Rwanda nk' umuco wacu, ni igikoresho gikunzwe cyane mu banyarwanda.

Ikibindi ni igikoresho gikozwe mu ibumba cyifashishwa habikwamo ubushera cyangwa se n'ibindi bengeramo amazi ndetse kikaba ari ingirakamaro mu muco wacu nyarwanda.

Umuvure ni igikoresho cyifashishwa mu kwenga umutobe n'urwagwa n'ibindi bigiye bitandukanye, ukaba twebwe mu Rwanda tuwufata nk'umuco gakondo w'abanyarwanda kikaba.

Kuboha ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu. Ibitebo, uduseke n'ibindi n'ibindi. Byifashishwa mu mirimo ya buri munsi. Umuntu yitwaza nk'agaseke agiye gusura mugenzi we.

Abantu biganjemo abari kuboha ibirago n'uduseke ,n'ibitebo twebwe mu Rwanda dufata nk' umuco wacu byifashishwa dutwarwamo, umuntu agiye gusura undi n'ibindi n'ibindi.

Umwuko, cyangwa se akamamiyo, ni ibikoresho biva mu giti bikaba byifashishwa haba mu guteka ubugari cyangwa se umutsima. Akamamiyo ni agakoresho bakoresha bateka imboga n’ibindi bintu bitandukanye byo guteka.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abasore n'abakobwa, tukaba mu muco nyarwanda, tubafata nk'abantu bakoresha umuco gakondo nyarwanda.

Agaseke ni igikoresho gikoreshwa mu buzima bwa buri munsi n'abantu benshi twebwe mu Rwanda bikaba tugakoresha nk'umuco, gakoreshwa bifashisha umuntu agiye gusura undi cya n'ahandi hantu hatandukanye.

Intore ni umuntu uba ubyina mu bukwe cyangwa se mu bindi birori mu muco Nyarwanda, akaba ari umuntu w'ingirakamaro cyane bitewe nuko akoresha umuco wacu wa kera.

Ndabona igikoresho gikoreshwa mu mamashini. Kiba kitwa mucongereza hadidisiki, yifashishwa kubika amashusho, amakuru runaka n'ibindi byinshi.

Igikoresho cy'umuriro w'amashanyarazi menshi tujaga turita ipensi gikoreshwa ahantu henshi ku isi hose, tukagikoresha mu muriro w'amashanyarazi hifashishwa gukata insinga n'ibindi n'ibindi.

Igikoresho cy'amashanyarazi cyifashishwa ducaginga cyangwa duocmekaho n'ibindi n'ibindi, harimo ipasi, mu cyongereza bjya baracyita soketi, mu gifaransa bajya baracyita pulise.

Bateri ni igikoresho gikoreshwa muri moto cyangwa se n'ahandi, kikaba ari ingirakamaro kubera ko gifasha ikinyabiziga gukoresha amatara agiye atandukanye, habamo ibinyoteri mu rurimi rw'icyongereza bajya bita endiketa.

Intwaro, igikoresho cy'amashanyarazi, dukunze kucyita soke, gikunze gukoreshwa bashyiramo itara kugira ngo ryake, bayiteye mu muriro.

Igikoresha c'umuriro benshi twita sabilizivateri ,kifashishwa mu kugabanya umuriro igihe ucometseho ibintu televiziyo ,amatara kikaba gikoreshwa ahantu henshi ku isi.

Iki ni igikoresho bakunze gukoresha mu bintu bijyanye n'amashanyarazi, hanyuramo insinga, bahurizamo insinga kikaba giterwa ku gikuta...

Ipensi ni igikoresho gikoreshwa mu mashanyarazi, n'ahandi harimo gukanika imodoka, moto, amagare n'ibindi ni igikoresho gikoreshwa ku isi hose ndetse cy'ingirakamaro.

igikoresho gikoreshwa mu mashanyarazi cyifashishwa guhurizamo insingagira. Urugero bari nko kwesitara inzu bagahurizamo insinga. Bityo kikaba ari igikoresho cyiza cyane gikoreshwa ahantu henshi ku isi.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri biganjemo abakobwa abahungu bakaba ari ingirakamaro cyane ku isi hose, bituma abantu bajijuka cyane.

Urusengero ni ingirakamaro cyane ku isi kuko abantu barusengeramo ndetse rukabahesha amahoro, rukaba ari urw'abakatorike cyangwa se abanyayagatorika murimi rw'ikinyarwanda gisanzwe.

Ipoto rihuriyeho insinga z'amashanyarazi, ndetse ikaba ari ingirakamaro biteye ubwoba. Buri wese abona umuriro kubera ko byanyuze ku ipoto, bityo rero bigatuma riba irya mbere mu bintu bifite akamaro ku isi.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abambaye inifomo yo mu rusengero. Bityo rero bakaba bari mu giterane cyangwa se igitaramo. Bityo bikaba ari byiza cyane ku baturage.

Umuhanda ugana Kigali, ukagana i Gisenyi. Ukaba ari uwo mu karere ka Musanze, umurenge wa Busogo.

Imihanda ni ingirakamaro cyane ku baturage n'abatuye isi bose kuko idufasha kugera aho dushaka hose binyuze mu muhanda, bityo ukaba ari ingirakamaro ku isi hose.

Urusengero ni ingirakamaro ku baturage benshi batuye isi b'abagatorike, bigatuma tumenya Imana ndetse n'amategeko yayo bivuye mu buryo bwo gusenga.

Icigo c'amashuri ca busogo ya mbere kiri mu majaruguru mu karere ka musanze, higamo abana b'amashuri abanza n'ayisumbuye.

Ikigo gishinzwe ubuzima, ni ikigo cyiza cyane mu buzima bw'abantu, kuko kibafasha byinshi kikaba ari ingirakamaro mu gihugu bitewe n'uko abantu bakibonera hafi.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kujya inama kuru bizinesi zabo runaka zigiye zitandukanye hakaba harimo abayobozi batandukanye n'abaturage.

Abarimu ni ingirakamaro mu buzima bw'abanyeshuri cyangwa se abantu, bitewe y'uko babafasha mu buryo bwo kwiga bakabafasha no mu bindi, kumenya gusoma no kwandika imyitwarire n'ibindi n'ibindi.

Urujya nuruza rw'abantu bicaye ahantu kuri etaje ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu. Ni ukuvuga ko ikorerwamo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye haba ubucuruzi ndetse n'inama rusange bukaba butanga amafaranga.

Urusengero ni ingirakamaro ku baturage bose batuye isi, ahantu hose hagomba kuba hari urusengero bityo bigatuma twubahisha Imana.

Ikigo cy'amashuri ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu ku isi yose. Bitewe nuko abana bariga n'abakuru bakiga bityo bigatuma kigira akamaro kenshi ku isi hose.

Amashuri ni ingirakamaro ku isi hose, kubera ko abantu bayigiramo, ndetse bagatanga ubumenyi n'ibindi n'ibindi, agatuma tubona ubwigenge kubera ko twajijutse.

Amazu ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu ku isi hose, higanjemo ahantu hatuye abantu benshi, bitewe n'uko inzu utayifitiye nta bwo wabona aho kuryama cyangwa se mu ururimi rw'Ikinyarwanda aho kurambika umusaya.

Urujya n'uruza rw'abantutu higanjemo: abambaye nifomo, umudaso, bari mu gikorwa cy'uko bagomba kunonosora ubwubatsi.

Inzu ikorerwamo ubugenzacyaha cyangwa se twakwita inzu ya koti ikaba ari ubushinjacyaha cyangwa se ingoro y'ubushinjacyaha ikaba ari ingirakamaro mu buzima bw'abatura rwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu kazi. Barimo bakora mu muhanda bari gukora ibintu bijanye no kuvanga amasima.

Inzu nini ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, kuko ikorerwamo ibintu byinshi bijyanye n'ubucuruzi. Haba ikoreramo ibintu bijyanye n'uruganda rwo gukora imyenda n'ibindi n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abandu bari mu inama ,barimo :abayobozi , n'abaturage bari ahandu muri sare ,ni inzu iba ikunze kuba ifite saro nini cane.

Urujya n'uruza rw'abantu, higanjemo abagore n'abagabo, bari mu nama y'uko bagomba gukemura ibibazo byabo runaka, inama ikaba ari ingirakamaro cyane, kuko ikemura byinshi.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abaturage abagore, abagabo ndetse n'abandi. Bari mu nama barimo bavuga uko uburyo ibintu bigomba kugendamo, mu minsi barimo.

Urujya n'uruza rw'abantu, higanjemo abaturage, harimo abakecuru, n'abandi n'abandi. Inama ni ingirakamaro ku baturage bose, bitewe n'uko bayifatiramo ingamba, n'ukuntu bagomba kwitwara, mu bintu runaka barimo.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye ahantu hanini, basa nk'aho bari mu bintu byinshi bijanye n'inama.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abagore n'abagabo bari mu nama. Umugore umwe arimo gutanga ijambo afashe mikoro. Ni igikoresho gikoreshwa mu kuvuga kigatuma haboneka ijwi rinini cyane ryumvikana.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abaturage bari mu nama. Harimo abakecuru n'abagore, baracyari bato n'abagabo, bityo inama ikaba ari ingirakamaro mu baturage bitewe n'uko bituma bakora ibintu neza ku murongo.

Hano hari umuhanda gurimo imodoka nini cane ikunzwe kwifashishwa gutwara ibintu biremereye harimo amabuye, umucanga arigo musenyi.

Umundu utwaye igare ni ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara imizigo n'abandu muri afurika higanjemo ibihugu byinshi harimo: Rwanda, Burundi , Tanzaniya, kenya, Uganda, bitewe y'uko igi corosha ubuzima kitanahenze kurusha ibindi binyabiziga.

Gare bajya bita mu rurimi rw'icyongereza parike, ikaba ari ingirakamaro, kubera ko iparikamo imodoka zitandukanye, zivuye mu turere dutandukanye tw'igihugu.

Moto ni ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara imizigo n'abantu, gikoreshwa n'abantu bitwa abamotari ahantu henshi.

Ubwato ni igikoresho gitwara imizigo n'abantu. Kibatwara ahantu henshi hatandukanye, haba mu kwambuka igihugu binyuze mu mazi.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abamotari n'abanyamaguru, hakaba harimo imodoka nyinshi zigiye zitandukanye, zikaba ari igikoresho cyifashishwa mu gutwara imizigo n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Hano hari imodoka nini cane zikunze gutwara imizigo iremereye harimo: umusenyi, amabuye, garaviye n'ibindi byinshi.

Urujya n'uruza rw'abantu b'abanyonzi higanjemo abafite amagare, amagare ni igikoresho kifashishwa mu gutwara imizigo n'abantu kibijyana ahantu henshi hatandukanye.

Uruja n'uruza rw'abantu biganjemo abamotari, abantu basanzwe bari mu gikorwa ca gerayo amahoro. Moto nice ikinyabiziga cifashishwa mu gutwara imizigo n'abantu, ahantu henshi mu bihugu bitandukanye.

Urujya n'urubuza bw'abantu b'abanyonzi, harimo umuzunguzayi cyangwa bakunze kwita umutembeyi ,hariho ari gutembereza ingoko anarimo azigurisha ,ndetse n'abanyonzi batwaye abandi bandu..

Imodoka ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi ku isi hose, yifashishwa mu gutwara imizigo n'abantu, babijyana ahantu henshi hagiye hatandukanye mu gihugu, haba no mu bindi bihugu byo hanze.

Indege y'u rwanda, yifashishwa mu kujya ku isi, ahantu henshi hatandukanye, bajaga ba rita m'ururimi rw'icyongereza, Rwanda eya, ikaba ari ingirakamaro cyane ku bantu benshi.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abamotari, bakaba ari abashoferi b'ikinyabiziga cyitwa moto cyifashishwa mu gutwara imizigo n'abantu, kikaba gikorera ahantu hose ku isi hose.

Imashini zikora umuhanda twakwita rukururana cyangwa se, mu rurimi rw'icyongereza bajya bita gereda, ikaba ikora imihanda. Imihanda ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, ndetse ku isi yose...

Imodoka ni ikinyabiziga c' ifashishwa mu gutwara imizigo n' abantu ndetse rero kikaba cubashwe cyane ku isi hose. Ibitoki ni ingirakamaro ku isi hose kuko abantu barabirya ndetse bakabicuruza bakabona amafaranga.

Hano hari urujya n'uruza rw'abantu bakunze kwitwa abamotari. Hakaba moto zikunze gukoreshwa gutwara imizigo n'abantu, babajana hirya no hino.

Gare ikunze guparikamo amamodoka avuye ahantu runaka agana ahandi. Gare ya Musanze, ndabona tagisi n'abantu benshi n'ibindi bintu byinshi.

Moto ni igikoresho cyifashishwa mu gutwara imizigo n'abantu n'ibindi bitandukanye, ikaba ari iy'amashanyarazi, ikaba ikoresha batiri.

Ubwato bw'u Rwanda ni ingirakamaro bitewe ko bwifashishwa abantu bambuka imipaka bakoresheje inzira yo mu mazi, bityo bigatuma buba ingirakamaro cyane ku batuye isi.

Hano hari imodoka nyinshi n'abantu ; ni igikoresho bikunzwe gukoreshwa abantu batwara imizigo iremereye, zikajya no mu bindi bihugu.

Imodoka bajya bita mu cyongereza basi, itwara abantu ibajyana mu duce dutandukanye tw'igihugu, cyangwa se mu turere, tuba ari ingirakamaro mu gutwara byinshi bindi bitandukanye, harimo n'imizigo.

Abanyonzi batwara amagare ni igikoresho cyifashishwa gitwara abantu n'imizigo , kikaba cyifashishwa mu bihugu byinshi higanjemo ibyo muri Afurika.

Ubu ndabona moto, ni igikoresho gikunze gukoreshwa gitwara imizigo n'abantu, cyihutisha akazi.

Ba mukerarugendo bafite akamaro kanini mu Gihugu cyacu, bitewe n'uko batuzanira amafaranga, ndetse amagare ni ibikoresho bikoreshwa mu gutwara imizigo n'abantu.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo: imodoka n'abanyamaguru n'abashoferi, imodoka ni igikoresho cyifashishwa mu gutwara imizigo n'abantu, bari kuyijyana ahantu henshi hagiye hatandukanye mu mirenge cyangwa se mu ntara no mu tugari.

Hano ndi kubona bisi nyinshi zikoreshwa mu gutwara imizigo n'abantu, zibajyana mu turere dutandukanye. Zikunze kujya zirakorera muri kigali.

Ku kibuga cy'indege cy'u Rwanda haparitseho indege y'u Rwanda haba hari n'izindi modoka zitandukanye twagikoreshwa mu kwifashisha.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirakunzwe cyane ku isi hose bitewe nuko cyifashishwa bagikiniramo umupira. Kikaba kiba mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye higanjemo ibihugu byose byo ku isi.

Urujya n'uruza rw'abantu bari muri sitade, bari kureba umupira w'amaboko, bakunze kwita basikete mu cyongereza, ariko ukaba uri gukinwa n'abakobwa.

Umugore w'umukinnyi w'umupira gw'amaboko, mu Cyongereza abenshi tuja tuwita Hendiboro, akaba ari gukinira mu kibuga. Akurikiwe n'abandu benshi akaba ari imikino ngororamubiri nko gukora amasiporo.

Abakinnyi b' umupira w'amaboko, bajya bita mu rurimi rw'icyongereza tenisi. Ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, bitewe nuko izana amafaranga ndetse ikazana inshuti, bityo bigatuma tugorora imibiri yacu.

Umukinnyi w'umupira w'umukobwa arimo gukina umupira bajaga barita basiketl. Ari mu kibuga umupira ukunzwe cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abaturage barimo kureba amakuruse. Ni ingirakamaro mu baturage ndetse na bo ubwabo, kuko atanga amafaranga.

Sitade yo mu rwanda yifashishwa mu gukiniramo umupira. Hakaba hari harimo ibintu byinshi bitandukanye byiza intebe, n'ikibuga cyiza, hakaba harimo intebe z'abafana b'umupira.

Hano hari abantu benshi. Bantu bamwe na bamwe usanga bari gukina umukino zo gutwara imodoka , mucongereza bakunze kwita gemu.

Imipira ya basiketi cyangwa se ya vore. Bajya barayita mu rurimi rw'icyongereza basiketiboro n'ibikombe baba baragiye batsindira. Bayita ngo ni igikombe cy'isi cyangwa n'ikindi icyo ari cyo cyose kiba cyakiriwe ku mpande zombi.

Umukinnyi w'umupira w'amaboko bita Mico myiza Denis. Akaba ari umukino ngororamubiri ukunzwe cyane ku isi hose higanjemo ibihugu byo mu bakire.

Mu kibuga cy'umupira higanjemo abari gukina hari n'abafana, abafana ni ingirakamaro mu mukino iyo ariyo yose, bitewe n'uko baha imbaraga abakinnyi.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abagabo bari muri sitade bareba umupira w'amaguru. Ni ingirakamaro kubera ko ituma umuntu agorora umubiri kubera ko aba ari muri siporo.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abakinnyi b'umupira w'amaboko bakunze kuja barita mu congereza baskete. Abakinnyi bari gukinira mu kibuga abareba bari muri stade.

Abakinnyi bumupira wamaboko mucyongereza bajya bita volleyball ukaba ari umukino ngororamubiri kandi ukunzwe cyane ku isi hose.

Umusifuzi ni umuntuntu wiganje mu mipira ijyanye n'amaguru n'amaboko harimo: handiboro, futuboro voreboro, akaba akora ahantu henshi ku isi hose.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo aba siporutifu, cyangwa se abanyamasiporo bakaba bitwa Rwanda dirimuzi. Mu Kinyarwanda babita Rwanda inzozi.

Umugore uri muri Siporo muri Sitade harimo abantu benshi, Siporo ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu, Siporo ikorwa n'abantu abo aribo bose kwisi hose.

Hano hari umuntu utwaye igare bamwita umukurusi bakunze kuja mu masiganwa y'amagare, ubaye uwa mbere agahembwa n'abandi nabo bagahembwa.

Aperi yahuye iri gukina umupira w'amaboko bakunze kuja barita basiketi mu congereza. N' amashuri gari imbere yabo harimo abasifuzi n'abareba.

Hano hari umuntu uri muri pisine uri koga, ndetse akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri, kandi ni byiza cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo abasore n'abakobwa b'imikino y'amahirwe cyangwa se imikino ngororamubiri, bakaba batsindiye igikombe ndetse bishimye cyane.

Hano hari abakinnyi b'abakobwa bari gukina umukino w'amaboko, abantu bakunze kuwita tenisi mu rurimi rw'Icyongereza.

Abakinnyi b'abatwazi b'amagare higanjemo uwahawe igihembo. Bakaba mu cyongereza bayita turu di Rwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemo amakurusi bari mu marushanwa y'amagare bikunze gukorwa cane mu bihugu byinji higanjemo u Rwanda n'ibindi bihugu byo muri Aziya.

Uruja n'uruza rw'abantu biganjemo abambaye imyeru, uwambaye icatsi akaba ari umufata w'izamu, bari gukina umukino bijanye n'amaguru, bakunze kuja baritaha mu congereza hendibolo.

Urujya n'uruza rw'abantu, akaba ari amakurusi y'amagare. Ubwo mu rurimi rw'Ikinyarwanda bakaba bamwe bajya barayita amarushanwa y'amagare, akaba ari ingirakamaro cyane bitewe n'uko atanga amafaranga kandi umuntu...

Abakinyi bari gukina umupira gw'amaboko, bakunze kwita mu Congereza basikete ndetse ni abagore.

Abantu bicaye muri sitade bari kureba umupira w'ama boko, umupira bakunze kwita basiketi. Ndabona n'abakinnyi nsa nkaho ari amakipe yahuye.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bakunze kuja barita mu congereza tenisi, ni umukino ugorora umubiri ukunzwe cane ku isi hose ukaba ari mwiza cane.

Urujya n'uruza gw'abantu bari muri sitade bari kureba umupira. Umupira ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi kubera ko uduha amafaranga kubawukina no kugorora imibiri yacu.